Abahinzi bakora ubuhinzi bw'umuceri, basabwa kujya batera umuti wica udusimba, mu rwego rwo kurinda intete ko zapfa, ibi bizabafasha kubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito.

Amashu ni kimwe mu bihingwa bisaba kwitabwaho cyane, aho umuhinzi wayo aba agomba, gutera imiti kenshi yica udukoko kugira ngo azatange umusaruro mwiza, kandi mwinshi.

Ubuhinzi bw'ibigori buba bugomba kwitabwaho kugira ngo butange umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, abakora ubuhinzi bw'izi mbuto, basabwa gutera umuti mu rwego rwo kwica udukoko dushobora kubibangamira.

Umuceri ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye ni bimwe mu bigomba kwitabwaho, abahinzi bashishikarizwa gutera ibihingwa byabo umuti mu buryo bwo kwica udusimba dushobora kubangamira intete z'umuceri ntizizere neza.

Kwita ku bihingwa ni kimwe mu bituma umusaruro wiyongera. Aho umugabo arimo aratera imbuto ze umuti kugira ngo azirinde udusimba dushobora kuzangiza, ntizizatangage umusaruro nk'uko bikwiye.

Ibihingwa byinshi bigomba kuvomererwa, bigaterwa umuti kandi utera umuti aba agomba kwambara imyenda yabugenewe mu rwego rwo kwirinda ko iyi miti yamutarukira.

Muri farumasi y'ibihingwa cyangwa se kwa Veterineri ahasanzwe hagurirwa imiti irwanya udukoko, harimo imiti igiye igitandukanye, iyica udusimba ndetse n'ishobora gufashwa kwifashishwa mu guhinga.

Abakora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto baba basabwa kwita ku buhinzi bwabo, abaturage ndetse n'abahinzi muri rusange bakangurirwa gutera umuti wica udusimba ku mbuto zabo kugira ngo zikure kandi zimere neza zitange umusaruro mwiza unashimishije.

Amafi ni bimwe mu biribwa by'ingirakamaro bifite uruhare runini mu mikurire y'umuntu, abafite ibyuzi bororeramo amafi babikora bya kijyambere bibateza imbere.

Umugabo ari ku cyuzi, yashyize indobani mu cyuzi, ategereje ko hajyamo amafi, hanyuma akabona gukuramo indobani.

Amafi ni amwe mu matungo aba asabwa kwitabwaho mbere yo kuyateka. Kubera amahwa manini agira, umuntu ugiye guteka amafi aba agomba kubanza guhanduramo amahwa ndetse agakuramo n'imyanda mu kurinda ubuzima bwe ndetse n'ubw'abana.

Bimwe mu byuzi byo mu gishanga. Uba usanga harimo amafi menshi. Urubyiruko ni rumwe mu bajya kuroba ayo mafi bakayazana, bakayateka ndetse andi bakayagurisha.

Ikoranabuhanga mu buhinzi ni kimwe mu nkingi ya mwamba zituma iterambere ry'ubuhinzi rigenda neza, kuko bibafasha gukora vuba kandi umusaruro ukaba mwinshi, mu gihe gitoya.

Mu byishimo byinshi cyane umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine aragaragaza umusaruro akuye mu cyuzi cye nyuma yo kuroba amafi meza kandi ameze neza bigaragara ko iyo witaye ku kintu byanze bikunze kigomba kugira umusaruro.

Ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bworozi bufitiye umusaruro igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. Ibyuzi byiza biteguwe neza bikurura ba mukerarugendo ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Ibiyaga n’ibyuzi muri rusange nabyo biri mu bidukikije. Ni inzu z'amafi n'ibindi bisimba byose biva mu mazi. Tuba dusabwa kubyitaho, twirinda gushyira uburozi muri ayo mazi kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'inyamaswa zo mu mazi.

Ibishanga ndetse n'ibyuzi ni hamwe umuntu ashobora gukura amafi. Amafi ashobora kuba mu isayo cyangwa se andi mazi ayo ari yo yose. Bityo rero, turasabwa kujya twita ku bishanga ndetse n'ibyuzi kuko urumva ko ari indiri y'amafi.

Ibyuzi nk'ibikorwaremezo byakoreshwaga mu mirimo ijyiye itandukanye; kuroba, kogamo, kwifashishwa mu kuvomerera imyaka ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amafi ni mu bumwe mu bworozi bukorerwa mu bishanga ndetse n'byuzi byateguwe, abakora ubworozi bw'amafi, biteza imbere, bakabona ibyo kurya ndetse n'ibitunga umuryango wabo.

Abakora ubworozi bw'amafi mu byuzi bitandukanye bagomba kujya bagaburira amafi, bagashyira n'umuti muri ibi byuzi mu rwego rwo kwica utundi dukoko dushobora kwangiza amafi.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi ngengabukungu, ababukoze neza babona amafaranga kandi bagatunga imiryango yabo, abana bakiga n'abo bakabona n'icyo kunywa.

Ibihingwa ngenga bukungu ni bimwe mu bihingwa bifitiye igihugu ndetse n'abaturage akamaro, ikawa nk'imwe muri ibyo bihingwa ifasha abaturage kubona amafaranga ndetse bagakemura n'ibibazo bitandukanye mu ngo zabo.

Ibihingwa ngengabukungu iyo bimaze gusarurwa biba bikeneye kwitabwaho, bikanikwa nk'icyayi kiri muri bimwe mu bihingwa ngengabikungu abaturage ndetse n'abagihinga muri rusange baba bagomba kwitondera bakakitaho cyane.

Abakora ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu, ni bamwe mu bahinzi bishimira ubuhinzi bwabo. Ibihingwa ngengabukungu bimwe na bimwe bihingwa mu gishanga, biba bisaba kwitabwaho igihe imvura yabaye nyinshi.

Nyuma yo gusarura ikawa hakurikiraho kuzihera, kuzijonjora, kuzironga ndetse no kuzanika, ubundi zikajyanwa mu nganda, zigatunganywa hakavamo icyayi ndetse n'ibindi.

igihingwa cya kawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu. Abahinzi b'iki gihingwa bavuga yuko kibagirira umumaro mwinshi dore ko kibafasha mu kubona amafaranga, akemura ibibazo byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ikawa, bugaragara neza cyane, urabona ko ikawa zigeze mugihe cyo gusarurwa rwose, ziragaragara neza, zifite amahundo, ziratoshye, umusaruro ni mwinshi cyane.

Abakora ubuhinzi bw'ikawa nk'igihingwa ngengabukungu bishimira umusaruro gitanga, iki gihingwa gikenura abahinzi bacyo ndetse bakakifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye byo mu rugo.

Ubuhinzi bw'icyayi, ni bumwe mu buhinzi bugirira akamaro abaturage, haba abahinga icyo cyayi cyangwa se n'abakozi bagikoramo. Icyayi kandi nk'uko ari igihingwa ngengabukungu, gifasha u Rwanda gutera imbere ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bihinga icyayi.

Igihingwa cya kawa ni igihingwa ngengabukungu, abahinga iki gihingwa rero barasabwa kujya bakitaho, bakagikorera, bakakicira ndetse bakanagisasira kugira ngo gitange umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bifitiye Igihugu akamaro ndetse n'umuturage muri rusange, ubuhinzi bwawo iyo bwitaweho neza kandi bugakurikiranwa ku gihe butanga umusaruro mwinshi cyane.

Ikawa nka kimwe mu bihingwa ngengabukungu, zitanga umusaruro mwinshi cyane, aho abaturage baba basabwa kuzitaho, bakazisasira ndetse bakanazikorera.

Igihingwa cya kawa nk'igihingwa ngengabukungu ni kimwe mu gihingwa giteza imbere Igihugu ndetse n'umuturage muri rusange, abakora ubu buhinzi ushobora kubuhinga mu musozi cyangwa mu bice by'igishanga.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bimwe mu bihingwa ngengabukungu. Iki gihingwa giteza imbere umuturage ndetse n'Igihugu muri rusange. Ugihingiye neza gitanga umusaruro mwinshi cyane kandi vuba.

Nyuma yo gusarura ikawa akazihera, akazijonjora, umubyeyi w'umumama yikoreye ikawa avuye kuronga agiye kwanika kugira ngo azazitunganye neza zivemo icyayi cyangwa se amajyane, iki gihingwa kizwi ku izina ry'igihingwa ngengabukungu.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi bufite akamaro kanini cyane ku gihugu ndetse n'abaturage, ababikoranye ubushake babona amafaranga bakabona ibibatunga, ibirihirira abana babo amashuri ndetse na mituweri n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu ngo.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu. Mu Rwanda kiboneka ahantu henshi, gitanga amafaranga ku bagihinga ndetse kigatanga n'amafaranga ku Gihugu.

Umubyeyi arishimye cyane, nyuma yo gusoroma icyayi gisa neza, gitoshye ndetse umurima rwose wicyayi uze cyane, ku buryo atangiye gufata ku musaruro.

Igihingwa cya kawa ni kimwe mu bihinga bitanga umusaruro mwinshi cyane kandi kikagira umumaro igihugu ndetse n'abahinzi bagihinga muri rusange, kigomba gutunganywa kigaherwa, kikajonjorwa, kikarongwa, kikanikwa, ubundi kikajyanwa mu nganda bakagikora neza.

Abakora ubuhinzi bw'icyayi bishimira cyane umusaruro gitanga ndetse n'inyungu bagikuramo, abenshi bavuga ko bakuramo amafaranga abafasha mu gutunga ingo zabo, ndetse no gukemura ibindi bibazo byo mu buzima busanzwe.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi bufite akamaro mu Rwanda yaba ku muturage ndetse no ku gihugu muri rusange, ibi ngibi bivuzwe hagendewe kuko byinjiza amafaranga ashobora gukoreshwa mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwa buri munsi bwa muntu.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu. Iyo gitunganyijwe neza, kigirira umumaro igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.

Ikawa nk'igihingwa ngengabukungu ni igihingwa gifitiye akamaro kanini cyane igihugu cy'u Rwanda. Iki gihingwa kigemurwa mu mahanga kikinjiza amafaranga yifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi.

Imiti y'amatungo igomba kurindwa ikabikwa ahantu hazima kugira itangirika. Imwe mu miti y'amatungo ihabwa inka, ingamiya ndetse n'izindi, isangwa mu maduka acuruza imiti y'amatungo.

Imwe mu miti y'amatungo iba igomba kwitabwaho ikabikwa ahantu heza kugira ngo itangirika, aborozi ndetse n'abavuzi b'amatungo basabwa kubanza kureba niba imiti itararangije igihe mbere yo kuyiha amatungo.

Imiti y'amatungo, ni kimwe mu bifasha aborozi kugera ku iterambere, iyo amatungo yitaweho ndetse agahabwa n'umuti neza, atanga umusaruro ushimishije kandi mu gihe gitoya.

Imwe mu miti y'amatungo iba igomba kwitonderwa mbere yo guhabwa amatungo. Umuti wa moxyline ni umwe mu miti y'amatungo nk'inka, intama ndetse n'ihene.

Inka ni amatungo akeneye kwitabwaho cyane cyane mu gihe afite ikibazo cy'uburwayi. Agomba guhabwa ikinini cy'inzoka, ikinini cya vitamine kugira ngo agire ubuzima bwiza kandi akure neza.

Amaduka acuruza imiti ndetse n'ibikoresho by'ubuhinzi, aba agomba gufungura byibuze amasaha, umunani ku munsi. Agacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, ku buryo umuturage nta gikoresho na kimwe azaza gushaka ngo akibure muri iryo duka.

Imiti y'amatungo iba igomba kwitabwaho ndetse ikabikwa n'ahantu heza, hafite isuku kandi ikabikwa ahantu hatari izuba ryinshi kugira ngo idapfa. Ikabikwa mu macupa yabugenewe ndetse igihe cyo kuyiha amatungo, ikabanza ikarebwa neza ko igihe cyayo kitarangiye.

Imiti y'amatungo igomba kubikwa ahantu heza kandi hafite isuku. Ibi bifasha abazivura kuzirinda inzoka ndetse no kuba baziha imiti itujuje ubuziranenge.

Imiti y'amatungo ibagomba kwitabwaho kugira ngo izagire akamaro. Yifashishwa mu gutanga ubuzima bwiza ku matungo ndetse n'imikurire myiza.

Amaduka ndetse n'inzu z'ubucuruzi zicururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'ibiryo by'amatungo, baba basaba kuyitaho ndetse no kuyigirira isuku mbere yo kuyiha amatungo.

Buri mworozi wese w'inka ashishikarijwe byibura kujya aha ikinini cya vitamin nka ye rimwe mu mezi atatu. Ibi binini bifasha inka gukura neza, kwirinda ko yakandura inzoka ndetse n'ibindi.

Imbuto zihumbitse mu bihoho ziba zigomba kuvomererwa zigatwikirwa ndetse zigaterwa umuti kugira ngo udukoko dushobora kuzangiza dupfe ubundi zikure neza.

Abahinzi baba basabwa kwita ku myaka yabo kugira ngo izakure neza kandi itangage umusaruro mwiza. Ibi ni nko kuyibagarira, kuyitaho ndetse no kuyishyiraho ifumbire.

Umumama ndetse n'umupapa barimo barasarura umuceri bigaragara ko weze neza, umubyeyi w'umumama ari gusarura uyu muceri akoresheje igikoresho cyo mu rugo bita nanjoro cyangwa se abandi bazi ku izina ry'akayuyuzo.

Abahinzi ni bamwe mu bafitiye igihugu akamaro ndetse n'abandi baturage muri rusange. Ibikoresho byinshi, ibiribwa byinshi bituruka mu buhinzi, niyo mpamvu ari bo nkingi mwamba.

Ingabo z'u Rwanda, abayobozi ndetse n'abaturage, udasize n'abakorerabushake, ni bamwe mu bakoze umuganda wo gutera bimwe mu bihingwa, bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'ibigori kimwe n'ubundi buhinzi butandukanye ni bimwe mu biteza imbere abaturage, abaturage barashishikarizwa kujya bahumbika imyaka igiye itandukanye nk'ibikonfitoro n'ibindi bitandukanye.

Abayobozi batandukanye harimo n'abo ku rwego rw'ingabo, basuye abahinzi, aho bafatanyije gutererera hamwe ingemwe zari zarakuze. Abaturage bishimiye ubufatanye n'abayobozi.

Aborozi ni bamwe mu bantu byorohera gushaka ubwatsi igihe batuye hafi y'ishyamba, ubwatsi bw'amatungo buri mu byiciro bitandukanye hari ubwo bahinga ndetse n'ubwimeza mu bisambu.

Abahinzi n'aborozi bimwe mu bisigazwa by'umuceri babigira ubwatsi bw'inka, ibi bibafasha kubona umukamo ku bafite inka zikamwa ndetse ukiyongera cyane.

Aborozi b'inka mu Karere ka Nyagatare bibumbiye mu matsinda, ibikomoka kuri ayo matungo nk'amata, babikusanyiriza hamwe, ubundi bagakemura ibibazo bitandukanye.

Abahinzi ni bamwe mu bantu bajya inama y'icyo bakora igihe hari ikitagiye neza. Bimwe mu byo abahinzi bashobora kuganiraho, hari icyatuma ubuhinzi bwabo butera imbere ndetse no kuvomerera imyaka mu gihe k'izuba, mu bakorera ubuhinzi mu nshe z'imisozi.

Umuhinzi ukorera ubuhinzi bwe mu cyaro, aragaragaza ko ingemwe ze zimaze gukura zigejeje igihe cyo kuba zaterwa.

Guhinga neza, gushyiramo ifumbire, gutera imyaka ku murongo, ni bimwe mu bifasha ibihingwa kugira umusaruro mwinshi cyane ndetse bikera bitanacucitse nkuko bisanzwe.

Ubuhinzi bw'urutoki, bushobora kuvangwa n'ibindi bihingwa bitandukanye, harimo imyumbati, imigozi ndetse n'ibindi kandi byose bigatanga umusaruro mwiza mu gihe byitaweho bigateranwa ifumbire.

Ubuhinzi bw'umuceri ni bumwe mu buhinzi bukorerwa ahantu mu gishanga cyangwa se n'ahandi hari amazi, abakora ubu buhinzi baba basabwa kubwitaho ndetse bakabona ko ahantu bagiye kubukorera hatazabura amazi kuko iki gihingwa gikenera amazi menshi cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye nk'indimu cyangwa se amacunga, ni bumwe mu buhinzi bufite akamaro ku gihugu ndetse no ku muturage muri rusange. Izi mbuto zifashishwa mu gukora imitobe itandukanye ndetse zikaba zanagurishwa amafaranga agakemura ibintu bitandukanye.

Ubuhinzi bukorera hagati mu ishyamba ry'amagereveriya ntacyo byangiza imyaka, kuko ushobora guteramo ibihingwa bitandukanye, harimo amateke n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'urutoki bushobora kuvangwamo indi myaka itandukanye, mu rutoki umuntu ashobora guteramo amateke, hagateramo imyungu cyangwa se amadegede, imbogarwatsi n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni kimwe mu buhinzi bufatiye Igihugu akamaro ndetse n'umuturage muri rusange. Iyo bukozwe neza butanga umusaruro ugira akamaro kanini cyane mu mibereho y'abantu ya buri munsi.

Imboga rwatsi cyangwa se dodo, zifatiye runini ubuzima bw'abantu. Zirinda abantu kuko zigira vitamini, zituma abantu bareba neza ndetse n'ibindi, tuba tugomba kuzitaho kugira ngo zikure neza.

Amayogi, myumbati, ibiti bya Gereveriya ndetse n'urutoki biri muri bimwe mu bihingwa bigaragara muri uyu murima, uhinze ariko utaraterwamo imyaka myinshi cyane ndetse hahungitsemo n'imigozi y'ibirayi ndetse n'ibindi.

Abacuruza ibyo kurya bitandukanye yaba ibiciye mu nganda cyangwa se imbuto muri rusange ni bamwe mu babona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imwe mu mirima mbere yo guhingwa isaba kubanza kurima amasinde. Ibi ni ukugira ngo umuntu naza guhingamo ubutaka buzabe bworoshye kandi bimworohere kuba yahahinga byoroshye.

Gutegura umurima mbere yo kuwuteramo ibigori nko kuwushyiramo ifumbire, kuwukuramo ibindi byatsi, guca imirongo uzateramo ibigori, biri mu bifasha ubwo buhinzi kugira umusaruro mwinshi cyane kandi utubutse.

Isombe ni kimwe mu gihingwa gifitiye akamaro ubuzima bw'umuntu, cyifashishwa nk'ibiryo byo guteka kikagira intungamubiri ku wakiriye agakura vuba kandi akagira n'ubuzima bwiza.

Imbuto ni kimwe mu bintu bigize ubuzima bwa muntu bituma abaho neza kandi akagira ubuzima bwiza, indimu, ibikofitoro ni bimwe mu biribwa umuntu agomba kurya mu buzima bwe byibuze nka gatanu mu cyumweru.

Ibihingwa, imigozi, ibigori ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo, umuturage asabwa guhinga ibi bihingwa kugira ngo abone ibimutunga ndetse asagurire n'amasoko mu rwego rwo kwiteza imbere.

Abakorera ubworozi mu nzuri, ni bamwe mu bishimira ko inka zabo zitanga umusaruro mwinshi cyane, kuko zitajya zihura n'indwara. Bavuga ko ibi byatsi zirisha, haba harimo n'imiti izirinda indwara.

Ubuhinzi bw'amashu bushobora kuvangwa n'izindi mbuto, harimo nk'amapapayi, iyo amashu yitaweho agaterwa umuti, agashyirwaho ifumbire, atanga umusaruro, mwinshi cyane kandi vuba.

Ibihingwa bitandukanye iyo bimaze gusarurwa mbere y'uko bateramo indi myaka uhitegereje uba ubona ibisigazwa byabyo byarumye. Ibi bihingwa twavugamo nk'imyumbati, ibishyimbo ndetse n'ibindi.

Imyumbati birashoboka cyane cyane ko ishobora kumera bitewe n'aho umuntu yaba yarataye nk'igiti cyawo, yaba mu ishyamba cyangwa se ahandi hantu atakoreye ubwo buhinzi bw'imyumbati.

Ubuhinzi bw'umuceri ni bumwe mu buhinzi bukorerwa mu gishanga. Umuceri ni igihingwa gitanga umusaruro kandi vuba. Ubukoze neza yiteza imbere kandi agasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bw'imyembe y'imituburano buri mu buhinzi bufite umumaro munini kuko butanga umusaruro mwinshi kandi vuba, umwembe ushobora kwera uri mugufiya cyangwa se utareshya n'indi myemba isanzwe nk'uko tubibona.

Abakora ubuhinzi bwo mu cyaro, bishimira ko hanyura imihanda. Ibi bikaborohereza mu gusarura imyaka yabo ndetse no kwiyipakira ibinyabiziga.

Nyuma yo gusarura ibishyimbo, ibyasigaye mu murima bishobora kongera bikamera, hatabayeho kongera kubitera. Ibishyimbo ni igihingwa gifitiye igihugu akamaro, ndetse n'umuturage muri rusange.

Abakora ubuhinzi bw'ibirayi mu buryo bwa kijyambere ni bamwe mu babona umusaruro mwinshi, bakabona ibibatunga ndetse bagasagurira amasoko bakagura ibindi bakeneye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye harimo ibitunguru, inyanya, imboga ni bumwe mu buhinzi bufitiye Igihugu ndetse n'abaturage akamaro, bwifashishwa mu buryo butandukanye harimo imiti ndetse n'ibyo kurya.

Igishanga iyo cyitaweho neza kigakurikiranwa, kigaterwamo umuceri, utanga umusaruro munini cyane yaba ari ku baturage ndetse no ku gihugu. Abaturage babona ibyo kurya, bagasagurira amasoko ku buryo biteza imbere, yaba mu biribwa ndetse n'ibindi.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bishobora kwihanganira ibindi byatsi kuko gishobora kwera kititaye ngo giteye mu bihuru cyangwa ahandi hantu. Ibigori kandi byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, nk'ifu y'ibigori ari yo abantu benshi bazi ku izina rya kawunga.

Zimwe mu mboga n'imbuto dushobora kuzihingira mu rugo iwacu mu karima k'igikoni. Izo mbuto ni nka; karoti, inyanya, imboga zisanzwe za dodo ndetse n'izindi.

Imikenke, imiyenzi ndetse n'ibindi byatsi, ni bimwe mu biranga ahantu hamaze igihe hadahingwa, abaturage bafite ibisambu batagihinga barakangurirwa kubihinga kuko iyo mirima iba iri gupfa ubusa.

Ubuhinzi bw'ibigori, bugira umusaruro iyo bwitaweho, umuhinzi ukora ubu buhinzi aba asabwa guterana ibigori ifumbire, kubibagarira ndetse akanabyitaho, akabirinda n'ibyonnyi abitera umuti mu cyiciro cyo kwica udusimba dushobora gutuma bitera neza.

Ubuhinzi bw'isombe ni kimwe mu bifitiye abaturage akamaro. Isombe ni imboga zituruka ku biti byaba imyumbati cyangwa ibindi biti byabugenewe bivaho isombe.

Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, iyo byitaweho neza birera cyane, ku buryo umurima umwe, ungana nka hegitari ushobora kwera, toni icumi, kuzamura.

Imashini zihinga ziri mu bifatiye runini iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda. Ifasha abaturage kutavunika gutegura neza imirima bazahingamo, ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'urutoki ni igihigwa gisabwa kwitabwaho. Iyo kititaweho umusaruro wacyo uba mutoya ndetse kikaba cyanakangirikara kigapfa burundu kikavaho.

Ibihingwa bigiye biri mu dupipa dutandukanye ndetse n'amasashe, aho usanga buri gapipa ndetse na buri sashe irimo ingemwe zihariye, hari ibisashe birimo ingemwe z'inanasi ndetse ahandi harimo ingemwe za karoti.

Ibigori by'umuhondo ni bimwe mu bihingwa bishobora kuvamo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo n'amavuta y'ubuto yo guteka. Bishobora kuvamo imbuto, bikazongera kwifashishwa mu guterwa mu kindi gihembwe cy'ubuhinzi.

Amashyamba ni kimwe mu bifite uruhare runini mu mibereho y'abantu ndetse n'inyamaswa, ku bantu yifashishwa nk'ibyo gucana, imiti ndetse n'ibindi, ku nyamaswa amashyamba ni amacumbi y'inyamaswa.

Ishyamba ni kimwe mu bidukikije ritanga umwuka duhumeka, turikuramo ibiti byo gucana, turikuramo ibiti byo kubakisha, turikuramo imiti ndetse n'ibindi bitandukanye, tugomba kuribungabunga rero, rikagira ubuzima bwiza natwe rikaduha ubuzima bwiza.

Ishyamba nka kimwe mu bidukikije rigomba kwitabwaho, rifite akamaro kanini ku buzima bw'ikiremwamuntu ndetse n'inyamaswa ziba mu mashyamba.

Imwe mu migezi inyura mu mashyamba, ifitiye akamaro kanini cyane amashyamba kuko ituma ayo mashyamba abaho neza, atoshye, agakura neza kandi byihuse.

Kubungabunga ibidukikije nk'amashyamba, ni kimwe mu bikorwa abaturage bose basabwa. Ishyamba rigira akamaro, ku baturage, ku nyamaswa, ndetse cyane cyane ku barikoresha nk'ibicanwa.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije, ni kimwe mu bigomba kwitabwaho ndetse bikanabungwabungwa, amashyamba tuyifashisha mu guteka aho dukuramo inkwi, imiti ndetse ni n'indiri z'inyamaswa zo ku gasozi.

Amashyamba ari ku nkengero z'ibishanga abagaragara neza kuko abasha kuvoma amazi ari muri ibyo bishanga, ibi biyafasha gukura neza ndetse no mu gihe cy'izuba ntabashe kumpa.

Ishyamba nka kimwe mu bikorwa remezo, biba bigomba kwitabwaho na buri wese. Iyo ryitaweho neza rirakura rigatanga umusaruro ushimishije, bigateza umuturage imbere ndetse n'Igihugu muri rusange.

Amashyamba bimwe mu bidukikije tugomba kuyitaho. Atugirira umumaro utandukanye, atanga umwuka duhumeka, ibicanwa n'inzu z'inyamaswa zo ku gasozi ndetse tuyakuramo n'imiti igiye itandukanye.

Ishyamba ni kimwe mu bihingwa bishobora kubangikanywa n'indi myaka ntibigire ikibazo bitera, nk'ibigori, amasaka ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Gutema amashyamba byagakwiye kwirindwa hakurikizwa gahunda za cana rumwe ndetse no gukoresha ibindi bikoresho bidasaba inkwi.

Ishyamba nka kimwe mu bidukikije, rifite umumaro ku bantu ndetse n'inyamaswa. Inyamaswa ziritahamo ndetse abantu bakaryifashisha nk'inkwi, ibikoresho byo kubaka n'ibindi bitandukanye. Tugomba kuribungabunga rero kugira ngo tubeho neza.

Amashyamba kimwe mu bidukikije bigomba kwitabwaho neza, abaturage ndetse n'abandi bose bagomba kuryitaho kuko ishyamba ritugirira akamaro muri rusange, twebwe ubwacu ibidukikije bitugirira akamaro ndetse n'inyamaswa.

Ishyamba rya kimeza cyangwa se ibyo bita mu ndimi z'amahanga nature, ni ho usanga abantu benshi basohokera kubera ko haba hari amafu hari akayaga keza mbese buri wese arahakunda.

Amashyamba ndetse n'amazi ni bimwe mu bikorwa remezo, amazi anyura mu mashyamba agira umumaro cyane kuko atuma amashyamba abaho neza kandi agakura vuba byihuse.

Imigezi itemba hagati yo mu mashyamba ishoboragiza ishyamba, ibiti biteye ku nkengero z'amazi bishobora gutwarwa n'amazi igihe haguye imvura nyinshibije irimo umwuzure.

Umuzungu w'igitsina gore, wambaye ingofero, amarinete, inkweto ndende ndetse n'ipantaro y'umukara, ari hagati y'ibiti bibiri mwishyamba, ari kwitegereza akoresheje icyo bita indebakure.

Kwita ku mashyamba ni igikorwa cy'indashyikirwa, Daso, abaturage ndetse n'abayobozi n'ingabo z'igihugu ni bamwe mu bari kubungabunga amashyamba.

Ishyamba rinini cyane abandi bita inzitane. Riragaragara neza cyane ko ryafatanye, aho rigeze nk'igihe cyo gusarurwa. Inyuma y'iryo shyamba hagaragara ikirere kiza cyane, bifasha iri shyamba guhora ritoshye rinameze neza.

Amashyamba ni bimwe mu bidukikije bifitiye akamaro ubuzima bw'abantu ndetse n'ubw'inyamaswa, havamo imiti, havamo ibiti byo gucana ndetse akaba ari naho inyamaswa nyinshi zo ku gasozi zitaha.

Ishyamba nka kimwe mu bidukikije riba rigomba kwitabwaho tukirinda ba rutwitsi ndetse n'inyamaswa zibamo tukazibungabunga tukirinda kuzihohotera no kuzihiga.

Amashyamba atuye mu duce tw'umusozi agira ibibazo by'izuba akaba yakuma kurusha amashyamba aturiye amazi, aturiye amazi ashobora kuvoma muri iyo migezi mu gihe atuye ku musozi iyo aba yarumye yarabuze aho akura amazi.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije afite akamaro kanini, haba ku bantu ku nyamaswa, ndetse n'ibindi binyabuzima bitandukanye, yifashishwa mu kubaka mu gucana ndetse akaba n'amacumbi y'inyamaswa zo ku gasozi.

Kugira ngo ingemwe zikure vuba ni uko zitabwaho zigashyirwamo ifumbire, zigatwikirwa kandi zikavomererwa ku gihe. Iyo ibi bikozwe neza zitanga umusaruro ndetse zikaba zava mu ruhumbukiro vuba.

Ubuhinzi bw'inyanya zishingirwarirwa ni bumwe mu buhinzi bugira akamaro cyane kandi butanga umusaruro mwinshi cyane ugereranyije n'izindi nyanya zisanzwe zera zitashingiriwe.

Imbuto za pome ni kimwe mu bihingwa biteza imbere umuhinzi ndetse n'igihugu muri rusange. Iki gihingwa iyo kitaweho neza kirera cyane, kigatanga umusaruro mwinshi uvamo amafaranga yifashishwa mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto nk'amashu ndetse n'indabo, ni kimwe mu buhinzi bufitiye akamaro igihugu ndetse n'abahinzi muri rusange, butanga amafaranga ku baturage, yifashishwa mu gukemura ibibazo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni bumwe mu buhinzi bufitiye Igihugu ndetse n'abaturage akamaro. Aho usanga butanga umusaruro munini cyane kandi mu gihe gitoya kitarambiranye.

Inanasi ebyiri harimo imwe nini ndetse n'indi ntoya, hari n'inanasi zitareho inanasi nini ifite utundi dushami tuyishamikiyeho tugeze kuri tune, natwo tugaragaza ko tuzera nubwo ntatananasizaho.

Ubuhinzi bw'imbuto bukozwe neza butanga umusaruro. Ababyeyi bibumbiye mu makoperative bakora ubuhinzi ndetse bubateza imbere bo n'imiryango yabo.

Umugabo uteruye igikoresho yasaruriyemo ibitunguru, karoti, inyanya, imboga, aragaragara rwose ko anezerewe nyuma yo kubona umusaruro we mwiza cyane.

Ubuhinzi bw'imigozi ni bumwe mu buhinzi bufite uruhare runini mu iterambere ry'umuturage ndetse n'igihugu, imigozi iteranywe ifumbire yera neza ikera cyane kandi mu gihe gitoya.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto nk'amashu, pavuro, karoti, betarave ndetse n'ibindi bihingwa iyo bihinzwe ku musozi biba bisabwa kuvomerwa kugira ngo bigire ubuzima bwiza kandi bitanga umusaruro utubutse.

Ubuhinzi bw'indabyo, imbuto, ni kimwe mu buhinzi bugira akamaro ku bantu ndetse no ku gihugu kuri rusange. Bukwinjiza amafaranga, afasha umuhinzi gukemura ibibazo bitandukanye, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'inanasi iyo bwitaweho n'ubuhinzi bushobora kuguteza imbere, iki gihingwa kibarirwa mu bihingwa ngandurabukungu kuko iki gihingwa gishobora kugurishwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga.

Ubucuruzi bw'imboga n'imbuto nk'amacunga, amapapayi, amaronje ndetse n'inyungu ni bimwe mu bucuruzi buteza imbere ababukora, abantu bashishikarizwa kwibumbira mu makoperative kugira ngo biteze imbere.

Ubuhinzi bw'indabo ni bumwe mu buhinzi bubyara umusaruro utubutse cyane, abahinzi b'indabo bavuga y'uko bakuramo amafaranga ndetse n'ibindi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, dore ko ngo iki gihingwa gikurura na ba mukerarugendo.

Nyuma y'umuganda umuyobozi aratanga inama ku baturage, arabasobanurira ibyiza byo guhinga ndetse no kuvomerera ku baturage bakora ubuhinzi bwo ku musozi.

Imbuto ziteye ku murongo ni zimwe mu zorohera abakoresha imashini zivomera kuvomera kuko haba harimo inzira banyuzamo izo mashini ibi bigatuma imyaka batayikandagira cyangwa se ngo izo mashini zibe zazangiza.

Zimwe mu mashini zifashishwa mu kuvomera imyaka mu gihe cy'izuba zishingwa hafi y'imirima, izi mashini zifitetiye runini ubuhinzi kuko zituma umusaruro utagabanuka.

Imyaka iteye ku musozi iba igomba kwitabwaho cyane cyane mu gihe k'izuba. Ibi bifasha iyi myaka kwera neza kandi igatanga umusaruro utubutse.

Imashini zikurura amazi, ziri bimwe mu bifitiye ubuhinzi bw'ibigori akamaro. Igihe cy'izuba, izi mashini zifashishwa mu kuvomera, iki gihingwa kigatanga umusaruro kandi mu gihe cya vuba.

Ubuhinzi nka kimwe mu bifatiye runini imibereho ya muntu, buba busabwa kwitabwaho, mu gihe cy'izuba hagomba kuvomerezwa hifashishijwe imashini za kijyambere kugira ngo umusaruro uboneke

Kuvomera imyaka ni kimwe mu biyifasha gukura neza mu mugihe k'izuba. Ibingibi bifasha umuhinzi kubona umusaruro mwiza atitaye ko izuba ryabayeho.

Kuvomera ni kimwe mu bifasha ubuhinzi gutera imbere, igihe cy'izuba ubu usanga imyaka yarumye abaturage bakavomerera imyaka yabo umusaruro ugakomeza ukiyongera.

Zimwe mu mashini zivomera, ni imashini zitanga umusaruro kandi mwinshi cyane ugaragarira buri wese, abaturage bashishikarijwe kwifashisha ubu buryo bwo kuvomerera kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'izuba.

Mu gihe k'izuba abakora ubuhinzi mu nshe z'imisozi, baba basabwa kuvomerera imyaka yabo kugira ngo itagira ikibazo cyo kuma. ubuhinzi bw'amashu n'izindi mbuto ni bimwe mu bikenera izo gahunda zo kuvomererwa.

Igihingwa cy'amashu ni kimwe mu bihingwa bikenera amazi menshi abahinzi b'iki gihingwa basabwa kujya bavomerera cyane kugira ngo umusarurobe mwinshi kandi uboneke mu gihe cya vuba kitarambiranye.

Umuhinzi w'umugabo ari kuvomerera imyaka ye, aho ari mu gihe cy'izuba, akoresheje umupira yashyize mu mazi urimo uramufasha kuzamura amazi, akabona uko avomerera imyaka ye.

Abakorera ubuhinzi mu nce z'imisozi biganjemo abagore, ni bamwe mu bifashisha imashini zivomerera kugira ngo bongere umusaruro, ndetse izuba ntiryangize imyaka yabo.

Imashini zivomera imyaka, ni zimwe mu zifitiye abahinzi akamaro kuko nko mu gihe cy'izuba, abahinzi bakora ubuhinzi bw'imboga, imbuto mu bice by'imisozi, bifashisha izi imashini, mu kuvomerera imyaka yabo.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, ni bumwe mu buhinziba busabwa kwitabwaho cyane. Ibihingwa nka beterave, bisaba amazi menshi cyane ku buryo ubihinga aba asabwa kubivomera cyane kugira ngo bikure vuba kandi bitange umusaruro, ushimishije.

Imashini za kijyambere zikoreshwa mu kuvomerera imyaka ni zimwe mu zifite uruhare runini mu musaruro uboneka. Izi mashini zifashishwa mu gihe k'izuba ndetse no mu bindi bihe bitandukanye.

Zimwe mu mashini zigezweho zikora umurimo wo kuvomera ziri mu bifatiye runini ubuhinzi. Aho zifasha abahinzi kubona amazi mu gihe k'izuba.

Imashini zivomera ni zimwe mu zifitiye ubuhinzi akamaro, mu gihe cy'izuba izi mashini zifashishwa mu kuvomerara imyaka ndetse zigatanga umusaruro ugiye utandukanye kandi mwiza.

Imashini zivomerera zikanita ku myaka zagejejwe ahantu henshi mu Gihugu, izi mashini zifite umumaro munini cyane kuko zikoreshwa mu gihe cyo kuvomera imyaka mu gihe k'izuba.

Abakora ubuhinzi butandukanye nk'ibigori, icyayi n'izindi mbuto zitandukanye, baba bagomba kuvomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba cyane cyane abakorera ubuhinzi mu duce tw'umusozi.

Mu gihe cy'izuba abahinzi bakora ubuhinzi bwabo mu nce zo ku gasozi, baba basabwa kuvomerera imyaka yabo neza kugira ngo igire ubuzima bwiza kandi yere itanga umusaruro mwiza.

Umuhinzi w'umugore, yambaye agapfukamunwa, afite umupira uri kurekura amazi, avomerera imbuto ze, hirya ye hari ibindi bihingwa bitandukanye nk'ibisheke, imikindo ndetse n'ibindi.

Abaturage batuye munsi y'imisozi basabwa kuhimuka bakajya gutura ahantu hari imiturire, ibi bizabarinda guhura n'ingaruka ziterwa n'ibiza harimo nk'urupfu ndetse n'ibindi.

Abaturage bakorera ubuhinzi ku misozi ihanamye kugira ngo ibiza bitabatwarira imyaka baba basabwa gucaho amatarase y'indinganire kandi ibihingwa byabo bakabyuhira cyane kugira ngo bitazagerwaho n'ibiza.

Imwe mu misozi ihanamye, ishobora kuba icyitegererezo cyangwa se abakerarugendo bakaza kuyisura. Bicara ahantu hitegeye iyo misozi bakayitegereza ,bakahareba bikabashimisha.

Imisozi ihanamye ni bimwe mu bintu bigaragara neza, ari nayo mpamvu u Rwanda, barwita urw'imisozi igihumbi, hagati mu misozi haba hatemberamo amazi ndetse meza cyane.

Abaturage batuye mu mashyamba ndetse no ku musozi uhanamye bafite ikibazo cy'uko bashobora kugerwaho n'ibiza bishobora kumanura iyo misozi ikabwira inzu zabo mu buryo butandukanye.

Abaturage batuye mu misozi babangamiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi, aho bajya kuvoma mu buhaname bishobora kubaviramo n'impanuka, kuko hari abatwara amagare bagiye kuyavomeraraho.

Amatarasi y'indinganire ni amwe mu yashyirwa ahantu hari imisozi ihanamye. Ibi bifasha abahinzi kwirinda ibiza birimo isuri, ndetse n'ibindi bishobora kwangiza imyaka yabo.

Abaturage batuye munsi y'imisozi, baba basabwa kuhava kuko bishobora guteza impanuka. Nk'ibiza, gusenyerwa n'imvura, ndetse n'ibindi bibazo bashobora guhura nabyo bitewe n'ihindagurika ry'ikirere.

Igishanga ni kimwe mu bifitiye igihugu akamaro, ndetse n'abaturage muri rusange. Hakorerwamo ubuhinzi bw'umuceri, n'ibindi bihingwa bitandukanye biteza igihugu n'abaturage imbere.

Amatarasi y'indinganire acibwa ku misozi ihanamye mu rwego rwo kwirinda isuri ndetse no gusigasira ubuhinzi, ibi kandi bifasha abahinzi kwirinda no kurinda imyaka yabo ko yatwarwa n'imvura.

Amatarasi y'indinganire ni kimwe mu byemezo byafashwe na Leta, mu rwego rwo kugabanya amasuri ndetse bigafasha n'abaturage n'abahinzi muri rusange, kwirinda ibiza bitandukanye.

Ibishanga ndetse n'amazi anyura muri ibyo bishanga ni kimwe mu bigomba kubyazwa umusaruro, nko guterwamo imiceri, guterwamo amateke ndetse n'ibindi bihingwa biterwa mu gishanga nk'ibigori.

Icyayi kiri mu bihingwa biteza Igihugu imbere ndetse n'abaturage. Ugihinze neza, akakitaho, akagikorera, abona umusaruro ushimishije umufasha kwiteza imbere ndetse agateza imbere n'Igihugu.

Ubworozi bw'inka za kijyambere. Bukorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye kandi n'umusaruro wazo ukaba ari mwinshi cyane. Ibyo kurya byazo ntabwo biba bigoye kuko izi nka n'ibyatsi byumye zibasha kubirya.

Inka yabyaye, bayisasiye ibyatsi byiza kugira ngo bitaza kuyica, akanyana k'umukara n'umweru kararyamye, karyamye iruhande rw'igiti kirinze ko inka yasohoka.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkoko za kijyambere, iyo zigaburiwe neza zikanitabwaho zigaragara neza, kandi zigakura neza, zigatanga umusaruro urimo amagi menshi ndetse n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene ntabwo bugora. Abaturage bamwe na bamwe, basanga kuragira amatungo yabo, ari cyo gituma amera neza, ntahure n'indwara kuko bamwe bavuga ko aya matungo mu byatsi aba yarishije, harimo n'imiti.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka ni bumwe mu bugomba kwitabwaho, inka kugira ngo zigire ubuzima bwiza aborozi bazo ndetse n'abavuzi b'amatungo baba bagomba kuzitaho kugira ngo zitange umusaruro mwiza kandi mu gihe gitoya.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bufatiye runini abantu, baba basabwa kubwitaho kuko iyo zititaweho zimwe zirapfa zigatanga n'umusaruro mukeya, iyo zitaweho zitanga umusaruro utubutse kandi iz'inyama na zo zigakura vuba.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, abakora ubworozi bw'inkoko babasabwa kuzitaho nko kuzigaburira bihagije, kuzishakira umuti ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma aya matungo atanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro ukomeye cyane. Inkoko zitaweho zitanga amagi ndetse n'iz'inyama zikura mu gihe gitoya.

Ubworozi bw'inkoko buba busabwa kwitabwaho cyane cyane inkoko zikiri ntoya zizwi ku izina ry'imishwi, zicanirwa, zivurizwa ku gihe kugira ngo zikure neza zitadindiye.

Ubworozi bw'amatungo maremare harimo inka bukorewe mu rwuri, harimo inka z'umukara, iz'ibihogo, izifite amahembe n'izidafite amahembe, uruzitiro rurazizitiye kugira ngo zitajya kona.

Ubworozi bw'amatungo magufi yiganjemo ihene, bushobora gukorerwa mu kiraro cyangwa se bugakorerwa mu nzuri, aho ihene zishobora kurekurwa zikajya kurisha, kandi zikabaho neza zikagira umusaruro mwinshi cyane.

Ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, ni bumwe mu bworozi bugirira akamaro aborozi, aya matungo ashobora kurya ibyatsi byumye cyangwa ibibisi.

Ubworozi bw'inka za kijyambere bukorewe mu ifamu butanga umusaruro. Inka nk'ibimasa usanga ari zo zikura cyane, kuruta inka z'inyana zibyara.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene ni bumwe mu bworozi buba busaba isuku nyinshi, kwitabwaho nko guhabwa umuti ,gukingirwa ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko buba bugomba kwitabwaho cyane cyane mu gihe inkoko zikiri ntoya. Zigahabwa umuti ,zigahabwa ibyo kurya ndetse zigashyirwa ahantu hashyushye kuko zikunda ahantu hashyushye.

Ubworozi bw'ibimasa bya kijyambere buba busaba, kubwitondera. Zimwe mu nka za kijyambere ziraryana, ni yo mpamvu zifungiranwa zikanashyirwa ahantu hatuje kandi hatekanye ku buryo zidashobora kugira uwo zangiriza ubuzima.

Korora inkoko bisaba kuzitaho cyane. Cyane cyane inkoko zikiri ntoya, ziba zisaba kuba ahantu hashyushye, guhabwa umuti ku gihe, ndetse no kugaburirwa.

Igikoresho gikoreshwa mu bworozi bw'amatungo. Kimeze neza aho gisetinze mu ndimi z'amahanga cyangwa gitunganyijwe. Kikaba kizajya gishyirwamo ibiryo by'amatungo kikabigeza ku matungo byihuse.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro, inkoko zitanga umusaruro utandukanye, hari izitanga amagi, hari izitanga inyama kugira ngo umusaruro ube mwinshi, aya matungo aba agomba kwitabwaho, agashakirwa ubuvuzi igihe yarwaye.

Ubworozi bw'inka z'Inyambo ni ubworozi bwiza cyane, dore ko bukurura na ba mukerarugendo, abaganga b'amatungo baba basabwa kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza kandi zitange umusaruro mwinshi kandi vuba.

Ubworozi bw'inka zizwi ku izina ry'inyambo, bugira akamaro kanini cyane ku baturage. Inka zitaweho neza zitanga umukamo zigatanga n'ifumbire.

Ubworozi bw'inka za kijyambere bukorewe mu ifamu butanga umusaruro. Inka zirimo iz'umukara iz'ibihogo bivanzemo n'umweru, ziri mu nka ziganje mu nka zitanga umukamo.

Ibibwana by'ingurube biri konka amabwabwa ya nyina biri mu ibarizo ribifasha kugira ngo bigire ubushyuhe, kandi ze kugira ubukonje butuma zidakura neza cyangwa zikaba zanahapfira.

Aborozi b'amatungo maremare cyane cyane nk'inka baba basabwa kuzitaho, inka nk'inyambo zigira umukamo mwinshi kandi ibimasa byazo na byo bigatanga umusaruro w'inyama nyinshi.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro mu gihe gitoya kandi utubutse, ubu bworozi buba busabwa kwitabwaho nko kuvuzwa ndetse no gushyirwa ahantu hafite isuku.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro kandi mwinshi cyane, abakora ubu bworozi baba basabwa kwita ku matungo yabo nko kuyashakira umuti, kuyashyira ahantu hashyushye ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo ya kijyambere bwiganjemo inka butanga umusaruro. Aya matungo iyo yororewe ahantu hamwe atanga ifumbire, bigafasha ba nyirayo kubona ifumbire ndetse bagahinga bakaneza.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere butanga umusaruro mwinshi cyane kandi vuba mu gihe gitoya. Iyo zitaweho neza zigahabwa umuti, zikagaburirwa, zigira umusaruro byihuse.

Ubworozi bw'inkoko zitanga amagi ni bumwe mu bworozi bufitiye abantu akamaro ndetse n'igihugu muri rusange, inkoko zitera, amagi yazo yifashishwa nk'amafunguro dore ko agira vitamini ndetse n'umumaro ku buzima bwa muntu.

Ingemwe zigomba guhumbikwa mu ifumbire kandi zikavomererwa, ibyo iyo byubahirijwe zikura vuba zigaterwa zikagira umusaruro kandi mu gihe gitoya.

Ingemwe kugira ngo zikure neza zizavemo ziterwe umuntu aba agomba kuziterana ifumbire, akazuhira, akazitera umuti mu rwego rwo kuzirinda udukoko ndetse akanazitwikira, akazirinda izuba ryinshi.

Imifuka umunani irimo imbuto. Izi mbuto zikaba zizifashishwa mu guterwa mu murima watunganyijwe neza. Umurima mbere yo guteramo imbuto ubanza gutunganywa kugira ngo imbuto zizamere kandi zitange umusaruro zikurira no ku gihe.

Imbuto zizakoreshwa mu guhumbikwa kugira ngo havemo ingemwe zindi zirimo zirapakirwa mu kantu k'agafuka kugira ngo igihe kizaba kigeze kiza zizakoreshwe zihumbikwa zitarapfuye.

Imbuto itoranyijwe neza itanga umusaruro kuko iyo uyiteye iramera, ntago ipfa kandi imera neza ikazatanga n'umusaruro ku buryo bushimishije cyane, aho uyikoresha abona umusaruro munini cyane.

Koperative nyuma yo gukusanyiriza hamwe umusaruro w'ibigori, batangiye kubivungura batoranyamo ibizaterwa. Uhagarariye koperative, yereka abaturage uko bagomba kuzitwara, mu gihe bazaba bari gutera ibigori.

Umusaruro w'ibituruka ku gihingwa cya Kawa ushobora kuvamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'icyayi kuba zakifashishwa mu gukora izindi ngemwe zizavamo ikawa ejo hazaza, aho bazitunganyiriza muri pepenyeri hanyuma ejo hazaza zikavamo izindi ngemwe zizifashishwa mu guterwa hakavamo Ikawa zitanga umusaruro kandi mwiza.

Intete z'umuceri ni zimwe mu mbuto zifashishwa mu gutera umuceri bundi bushyashya, umuceri usarurwa utwikiriye ugatonorwa ndetse ugatunganyirizwa mu nganda.

Abaturage bo mu cyaro kamwe mu kazi bakora harimo guhinga ibigori ndetse n'akandi kazi gatandukanye, ibigori bihinzwe neza, bikanikwa, bivunguye bishobora kuvamo ifu y'igikoma cyangwa ifu ya kawunga.

Abakozi bashinzwe kwita ndetse no gutunganya inyongeramusaruro, bajya inama kugira ngo bazakore imbuto izatanga umusaruro mwiza, iyo bibaye bityo byanze bikunze bitanga umusaruro nk'uko babiteganyije.

Abayobozi ba koperative ndetse n'abahinzi muri rusange bateraniye hamwe bari kwiga ku mbuto bagiye gutera, abayobozi barashishikariza abaturage gutera imbuto y'indobanure kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi.

Umuganga w'amatungo abenshi bazi ku izina rya viterineri, ari kwita ku itungo ry'inka, aho ari kugerageza kurivura uburwayi ryaba rifite ndetse afatanyije na bagenzi be.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bafatiye runini ubuzima bw'aya matungo, bagomba kwita kuri aya matungo nkuko bikwiye kandi bagatanga ubutabazi bwihuse.

Zimwe mu nyamaswa ziba mu rugo nk'imbwa, ziba zisabwa kwitabwaho zigakingizwa mu rwego rwo kwirinda impanuka ziteza nk'iyo zatumye abantu, zidakingiwe, ziteza ibibazo bitandukanye, harimo nk'ubusazi.

Umuganga ushinzwe kwita ku matungo w'umukobwa aricaye arimo aritegereza neza ibyo amaze gukora, nyuma yo gushyira imiti ku murongo, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete kugira ngo yirinde kuba yakangizwa n'iyo miti ari gutunganya.

Abaganga b'amatungo nibo dusha bw'izimaswa. Buriturage wese akanguriwe gutanga amakuru mu gihe abona itungo ryagize ikibazo, nko kurwara, kugira umuriro, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye amatungo ashobora kugira.

Inka zimwe na zimwe hari igihe zirushya kuzivura, abaganga basaba abaturage kubaka icyo bita urupangu kugira ngo igihe baje kuvura izo nka zigatera amahane bage bazishyiramo.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi buba bugomba kwitabwaho. Abavuzi b'amatungo baba bagomba kwita kuri izi nyamaswa, kugira ngo bazirinde indwara, ndetse zikure zinatanga umusaruro mwinshi.

Abavuzi b'amatungo kimwe mu byo bagomba kwitaho nzima bwayo ndetse n'imibereho, baba bagomba gushyira imiti mu byo zirya kugira ngo zirindwe indwara ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora guhitana ubuzima bwazo cyangwa bukazidindiza ntizikure neza.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bafatiye runini ubuzima bw'izimaswa, baba abagore, baba abagabo, bisanga muri uyu mwuga wo kwita ku matungo aba afite ibibazo.

Mbere y'uko abaturage barya ku nyama z'inka cyangwaz'andi matungo, baba bagomba guhamagara umuganga wabyuriwe akabanza akabipima ngo arebe ko izo nyama zujuje ubuziranenge mbere y'uko ziribwa.

Aborozi ndetse n'abavuzi b'amatungo bari mu bantu bagomba gukorana bya hafi, abavuzi b'amatungo basabwa gukingira zino nka mu gihe cyabugenewe kandi badatinze.

Inyamaswa zo ku gasozi ziri muri zimwe mu nyamaswa zibayeho nk'ibidukikije, turasabwa kuzibungabunga twirinda gutema amashyamba ndetse n'amacumbi yazo, tukirinda no kuzihiga.

Inyamaswa z'ishyamba zirimo ibirura, ni inyamaswa z'inkazi cyane, abana ndetse n'abandi bantu babujijwe kwinjira mu ishyamba kuko bashobora guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byiza, bifite parike nziza cyane, ba mukerarugendo baza kwisurira impala, imparage, isha ndetse n'izindi nyamaswa nyinshi, ziba muri pariki y'Akagera ndetse n'izindi pariki zitandukanye mu Rwanda.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zo ku gasozi, izi nyamaswa zigira amahane cyane cyane ku bantu baziyenjeho, zisuzugura igitsina gore ku buryo zishobora no kugihohotera.

Inyamaswa zo ku gasozi zimwe na zimwe zitahira mu mashyamba ariko zigahigira mu bishanga, ibizitunga biva mu mazi nk'amafi matoya ndetse n'utundi dusimba two mu mazi.

Inyamaswa intare izwi ku izina ry'umwami w'ishyamba ni zimwe mu nyamaswa ziba muri parike y'Akagera, izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bigatuma Igihugu gitera imbere.

Inyamaswa zo ku gasozi ziba mu maparike ndetse no mu mashyamba, ni zimwe mu ziba zikwiye kubungabungwa ndetse hakiririndwa ba rushimusi n'abandi bazihiga.

Inyamaswa z'ishyamba nk'inyoni ziba zikeneye gucungirwa umutekano, izi nyamaswa tuba dusaba kuzitaho kuko burya na zo ari ingirakamaro ku bidukikije.

Inyamaswa z'ishyamba zimwe na zimwe zigirira ubwoba abantu. Nk'imbwebwe ntishobora kujya mu bantu mu masaha yo ku manywa. Izi nyamaswa kandi zigira amahane aho zibera mu ishyamba zikajya guhiga mu masaha y'ijoro.

Inyamaswa y'iagasozi izwi ku izina ry'inkura, irimo irahiga mu mukenke, aho iri gushaka utundi tunyamaswa dutoya cyangwa utunyamaswa irushije imbaraga nk'ifunguro ryayo riyitunga rya buri munsi.

Ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba ndetse n'iziba mu maparike, ni twebwe abaturage tuba tugomba kububungabunga, ibi tuzabigeraho ni twirinda kuzihiga ndetse no kuzibuza amahoro.

Intare y'ingore ndetse n'intare y'ingabo, zose ziraryamye zitegereje kujya ku muhigo, ziryamye munsi y'igiti cy'umunyinya cy'inganzamarumbu, aho zisanzwe zibera n'ubundi nk'uko bisanzwe mu mashyamba.